Igiti giteye muri jaride impande yaho hari umuhanda wa kaburimbo. Hirya yaho hari amashuri. Pasiparama uruhande rumwe rwarumye kubera izuba.